Uyu ni umuntu uri gukoresha mudasobwa ye na terefone ye igendanwa hano ari gukura amakuru kuri telefoni ayashyira kuri mudasobwa ye cyangwa se ayakura kuri mudasobwa ayishyira kuri terefone ye igendanwa.

Aba ni abunganira abantu mu mategeko iyo bari kuburana, aha bari bari kurahira imbere y'amategeko kugira ngo batangire gukora umwuga wabo wo kuburanira abantu bari kuburana mu rukiko.

Aba ni abanyamuryango b'ishyaka rya RPF, bari bari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni imodoka yigishirizwaho gutwara ibinyabiziga, byo mu ishuri ryitwa wikani durayivingi sukulu, riherereye mu mujyi wa Kigali, ni imodoka ntoya yigishirizwamo gutwara ibinyabiziga byo mu rwego rwa be.

Izi ni imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Ni bisi nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Aka ni agace ko mu mujyi wa Kigali kanyurwamo n'abanyamaguru gusa. Nta binbiga byemerewe kuhatambuka nta modoka amapikipiki ntabwo byemerewe kuhatambuka muri muri aka gace, ni agace katambukamo n'abanyamaguru gusa.

Aha ni aho bacururiza ibikomoka kuri peterori, iyi yitwa sitasiyo ya Rubisi, itanga ibikomoka kuri peterori nka esansi, mazutu n'ibindi bikomoka kuri peterori.